Abana babiri bose barishimye bari guseka, umwe ni umukobwa niwe uri no kuvoma, undi ni umuhungu arimo aramukaragira kugira ngo abone uko amazi ajya mu gikoresho yazanye cyo kuvomeramo.

Umugezi urimo abana bari mu kigero cy'imyaka itanu n'itandatu, bari koga, bamwe iburyo abandi ibumoso, bose bafite imisatsi iringaniye ni abirabura.

Ikirango kiriho abana babiri cyanditseho ko ari byiza koza intoki ukoresheje amazi meza n'isabune mu kugira ngo ubuzima bw'abana bubungabugwe, hejuru naho hari ikirango cy'umuryango ushinzwe kurengera ubuzima bw'abana.

Abantu babiri basuye urugo rumwe bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima bari kugira inama umubyeyi ku bijyanye no kuboneza urubyaro, ari kumwe n'abana be batatu ndetse n'umugabo we.

Abantu batandatu, terefone, ijerekani y'umuhondo, umukanana, agapfukamunwa, ingofero, umupira w'ubururu, jire isa umweru.

Aha ni kwa muganga hari ibikorwa bitandukanye birimo gukingira, babiri bambaye udupfukamunwa, hari intebe, bambaye ga n'inshinge, bafite ibindi bikoresho birimo nk'amapamba..

Abantu babiri, umwe afite ifoto iriho ibishushanyo bibiri by'umuhungu n'umukobwa, umuri inyuma ni mubyeyi wambaye umupira ukenyeye n'igitenge, bari imbere y'inyubako ifite irange ry'umuhondo, n'idirishya rifite ibara ry'ubururu ryerurutse.

Abana babiri batoya bicaye ku iriba, umwe akozaho ibiganza, bambaye imyenda ishati n'ipantaro byose byigitenge, undi bari kumwe yambaye agapira k'umutuku n'ikabutura.

Umujyanama w'ubuzima w'umumama wambaye agapfukamunwa ari kumwe n'umuturage, arimo aramubarura mu gikorwa bashishikariza kijyanye no kwirinda sida kuko igihari.

Umukobwa muto muto w'umwirabura wambaye ingofero mu mutwe, akenyeye igitenge yambaye agapira k'amaboko magufi, ari kuri kandagira ukarabe ikozwe mu biti iriho akabido kari mu ibara ry'umweru, hirya ye hari inzu ifite umuryango ufunguye.

Ku kigo nderabuzima hari abaforomo ndetse n'abaturage batandukanye baje gukingiza abana babo bari hagati y'imyaka ibiri, itatu n'itanu, hari mashini bari kugenda babaruriramo abantu n'adacupa k'amazi, impapuro n'amakaramu.

Inama mpuzamahanga ya bibiri na cumi na karindwi yateraniyemo abantu batandukanye, babe abanyamahanga n'abanyafurika, batatu muri bo bambaye amarinete, undi umwe yambaye agatambaro ko kwitera w'umumama.

Icyapa gisa ubururu gifite amagambo yanditse mu mabara atandukanye umweru, ubururu, oranje, umuhondo.

Icyumba gikorerwamo akazi kirimo amamashini atandukanye, harimo intebe eshatu zifite amabara y'umukara, harimo ifoto iriho nyakubahwa perezida w'u Rwanda perezida Paul Kagame, harimo abantu babiri umugabo n'umugore.

Kwa muganga abarwayi ni benshi abagore, abana, abakecuru, abasaza inkumi, bose bategereje ko baribwakirwe, uko bagenda baza niko bagenda barushaho kwakira.

Abanyeshuri bo mumashuri abanza bose bambaye impuzankano zisa ariko zikaba zitandukaniye ku dupira bambariyemo imbere, barishimye bari gusuka barimo baravoma mumazi bose bafite indobo ziri mu ibara ry'umuhondo n'akajerekani k'umuhondo ku ruhande.

Imbaga y'abantu iteraniye hamwe imbere y'inzu ntoya, ifite umuryango w'icyatsi, hamanitseho icyapa, hari amahema y'umweru, imodoka y'umweru, iburyo bwaho hateye ibiti n'ipoto ritanga umuriro w'amashanyarazi ndetse n'insinga, ibumoso bwaho hari ikigega kirimo ibara ry'umutuku gifata amazi.

Ikigo cy'amashuri abanza, hari abanyeshuri benshi abahungu n'abakobwa, bose bambaye impuzankano zisa n'umuhondo, bari bafite abantu babasuye harimo abigisha babo ndetse n'abazungu, hari abambaye ingofero babiri ndetse n'abandi banyeshuri na bo barimo barapepera ubona ko babishimiye.

Akana gato k'agakobwa kambaye ikanzu y'igitenge, gafite udusuko tw'ibituta, ari ku ivomero afite igicupa cy'amazi arimo aragenda avomera, hirya ye hari ibinogo ubona ko amazi agenda aca.

Umwana uri mu mugezi akandagijejemo amaguru yombi amazi amugera ku murundi, arimo aravomesha akabido ka cumi n'atanu agafatishije amaboko yombi arunamye, hakurya ye hari ibyatsi hari n'ibiti biteye hirya yaho.

Abantu batatu, umwe yambaye taburiya y'umweru, ni umuganga afite agakoresho bambara mu matwi banumva umutima uko utera, yambaye isaha y'umukara, arimo arasuzuma umwana uri hagati y'imyaka ine n'itanu, yambaye ishati irimo ibara ry'umutuku n'ubururu, mama we ku ruhande afite isakoshi n'agakarine mu ntoki gasa umutuku.

Umugabo muremure wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, ari gukaraba intoki na kandagirukarabe afite akabido k'umuhondo uri mu giti.

Umugore uhagaze wambaye ibitenge birimo amabara y'icyatsi n'umutuku, ateruye umwana, afite igipapuro mu ntoki, ari mu cyumba kigari kirimo abantu b'ingeri zitandukanye.

Abana batatu bahagaze bose bari ku murongo umwe imbere ya robine zifunguye ziri kuvamo amazi, bose bafite urufuro mu biganza byabo bigaragara ko barimo barakaraba intoki.

Inyubako ebyiri ntoya zubakishije amatafari ahiye, bifite mu mpande n'urugi biri mu ibara ry'ubururu, hubakishije senyege, hanze yaho hari ibitaka birunze hasi n'amabuye.

Abana bane bari ku iriba, umukobwa uri gukaraga kugira ngo amazi aze utubido dutoya imodoka iri mu bwoko bwi toyota, ibiti by'umusozi hakurya.

Icyumba kigari kirimo abantu b'ingeri zitandukanye: abagore, abagabo, abana, bose bambaye udupfukamunwa, imashini, urupapuro, ikaramu, terefone, inzugi ku miryango.

Uruganda runini rwiganjemo ibyuma byinshi bikorana n'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amatara nayo arimo araka hari umuntu urimo uragenda abishyirara ku murongo.

Ni ikirango mpuzamahanga gishinzwe ibijyanye n'ubuzima, cyandikishijwe mu nyuguti nkuru, mu mabara atandukanye. Iry'ubururu bwijimye, n'irya kake.

Icyumba k'inama kigizwe n'abagabo gusa, bose urabona ko barimo bangurana ibitekerezo ku bintu bitandukanye, imbere yabo hagiye hateretswe ibirahure bimwe birimo imitobe, ibindi birimo amazi, hari amarinete ateretse ku meza, hari amakaramu n'impapuro z'udutabo.

Amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ariko hejuru yayo hakaba hari impine yaryo, akaba agizwe n'inyajwi n'ingombajwi, hakaba hari iri mu ibara ry'icyatsi yo ubwayo yonyine.

Ikirango kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijwe amabara y'umweru ariho n'ikindi kimeze nk'ishaka amagambo yanditseho ni ihuriro ry'umuryango w'abibumbye, rishinzwe kugemura ibiribwa hirya no hino ku isi.

Abanyeshuri bose bambaye impuzankano, bagiye ku ivomeraro barimo abahungu n'abakobwa bose bagiye kuzana amazi, barimo barakina baseka bishimye, hari indobo eshatu zose ziri mu ibara ry'umuhondo, hari n'utujerekani dutoya duteretse inyuma y'izo ndobo.

Cy'amashuri abanza kirimo abanyeshuri abahungu n'abakobwa bose bari mu kigero kimwe bambaye n'impuzankano zisa, bafite ibikombe biri mu mabara atandukanye umutuku, icyatsi. Imbere yabo hateretse ameza n'igikoresho babikamo amazi.

Batatu barimo baragenda bapanga imifuka ahantu hamwe babiri ni abagore bambaye ibitenge bose baranateze undi ari hejuru, ni umugabo yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, hari imifuka myinshi y'imiti.

Kabiri umuhungu n'umukobwa, umwe afite ijaga irimo amazi, undi ari gukaraba intoki afite isabune mu ntoki, undi yari arimo aramusukira. Hirya hari igikuta cyahomotse, urugi afatishijeho igitenge.

Ihuriro ry'abajyanama b'ubuzima bari mu ngeri zitandukanye urubyiruko, abamama, abakuze, n'abato bahagaze imbere y'inyubako yanditseho gira ubuzima, hirya gato urabona ko hari ibiti byinshi n'ibyatsi bose bahagaze bareba imbere.

Abana bane b'abahungu bari kuri kano, umwe ari gusunika kugira ngo amazi aze, hari ibido y'umuhondo n'akandi kajerekani kari inyuma yabo, hirya gato hari ishyamba n'ibiti birebire.

Ufite umwana mu kaboko n'abandi bana hakurya batatu barimo barakaraga kugira ngo amazi aze mu ibase iteretse hasi hari n'injerekani indobo y'umuhondo hirya hari inyubako ishaje iri mu ibara ry'ubururu n'umweru hirya hari ibiti.

Umusore n'umwana bose wambaye udupira dusa n'ibara rya orange yambaye amadarubindi y'umukara hari umwunzani bapimiraho ibiro hari n'abandi bantu bari inyuma yabo babakikije ubona ko bose nabo bari gushaka kwipimisha ibiro.

Ni ivomero rizwi ku izina rya kano, aho hari abagore babiri umwe afite igitambaro mu mutwe afite indobo ariko kudaha amazi mu kibase kinini, hari n'undi uri kumumbikira ngo amazi ishobore kumanuka, iyo ndobo afite irasa ibara risa n'icyatsi cyerurutse.

Abantu bahagaze munsi y'igiti n'inyuma y'inyubako ifite irangi ry'umweru n'amategura, bafite icyapa cyanditseho amagambo ari mu mu mabara abiri umweru na oranje, byose biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda, amwe yanyanditseho ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, ifite insanganyamatsiko ivuga ngo isuzumishe turandure Kanseri y'Inkondo y'umura.

Mu kigero cy'imyaka cumi n'itatu w'umukobwa ari kuri kano yateze ibiganza bye amazi niho arimo arajya, arishimye arogosha inta musatsi na muke afite, hirya hari amajerekani abiri imwe isa ubururu, indi isa umuhondo hejuru yayo hariho umubirikira.

Abantu babiri, umugabo muremure w'umwirabura wambaye ikote n'ipantaro iri mu ibara ry'ikijuju, ibumoso bwe hari umugore wambaye ikanzu irimo umweru, umutuku, icyatsi, bakaba bahagaze imbere y'ibyapa bifite amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, yanditse mu ibara ry'umweru.

Umugore muremure wirabura umwana wambaye akagofero k'umweru ari ku ivomero yajyanye indobo y'umukara, inyuma ye hari ikiraro hirya gato hari igiti kinini cy'umuvumu.

Imiryango ibiri yose iteraniye kuri kano umwe afite indobo undi arimo arogereza umwana we mu ibasi, undi arimo aramesa, hirya hari utubido, hari inzu.

Ahubwo batari benshi kandi na none batari bake bakikijwe n'amajerekani yose batondesheje umurongo ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha barikuvomavo, hari icyapa ,hari n'ipoto ,hari abana ku ruhande barimo barakinira mu kibuga.

Imodoka nini zizwi ku izina rya Rukururana zifite ikirango kiri mu ibara ry'umweru cyandikishijeho amagambo asize ubururu, ziri mu muhanda muremure wa ka kabiriimbo.

Nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame yatanze imbwirwaruhame yo kwitwa ku buzima bwo mu mutwe ku rupapuro rwanditseho amagambo ari mu ibara rya orange, ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Umugabo wirabura wambaye imyenda yacikaguritse umupira, ipantaro, mu kuboko kw'iburyo afite inkagara, ibumoso afite ibikapu bibiri by'amashashi, inyuma ye hari igikamyo kinini gitwaye imyanda.

Umugore bigaragara ko washaririwe cyane rwose kubera ukuntu agaragara mu maso yambaye amaherena ateze igitambaro cy'igitenge mu mutwe ndetse akaba afite n'iminkanyari nya kubera umujinya afite.

Umugore w'umwirabura uri mu iduka wambaye imyenda y'ikirenge, yambaye urunigi rw'amasaro mu ijosi, inyuma ye hari amacupa maremare n'amagufi n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Abamama ba biri bose bicaye ku dutebe tw'urubaho, umwe yambaye ikanzu undi ipantaro n'ishati byose biri mu ibara ry'ubururu. Hirya y'aho hari ibiti by'imyasi bihegetse, iburyo bwabo hari shitingi iri mu ibara ry'icyatsi.

Umugore wirabura ufite imisatsi idefirije, wambaye ikote hasi hariho ibara ry'igitenge, mo imbere harimo agashati k'umutuku, yambaye amaherena yambaye n'ikanzu y'umutuku.

Inzu itari ndende ariko na none itari ngufi, bakiriramo abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe, hirya y'aho hari ibiti bitandukanye, iburyo n'ibumoso hari ibizwi nk'imikindo.

Abantu icyenda barimo abagabo n'abagore, bamwe bambaye ibitenge ariko muri bo harimo umupolisi, harimo ishakoshi y'umukara, ipantaro y'umutuku, imisatsi miremire, karuvate ndetse n'isaha.

Icyumba k'inama gihuriwemo n'abantu benshi bicaye babiri bonyine nibo bari imbere, umwe afite indangururamajwi n'ishakoshi arimo araganira na mugenzi we ku cyabahurije hamwe.

Inzu isize irange ry'umweru amadirishya, hanze hari ibyapa bitatu, byose byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umugabo wicaye hasi wambaye ikabutura ngufi iri mu ibara rya kake, arasutse yambaye ipine, iburyo bwe hari abantu batagaragara neza babiri, umwe yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Umugabo ufite imisatsi ijagaraye w'igikara ubwanwa bwe burasa nabi yambaye imyenda yacikaguritse yambaye ibirenge n'isogisi ku kaguru kamwe ryacitse afite n'ibishishwa byumuneke.

Umubyeyi ukuze w'umwirabura wambaye igitenge anateze mu mutwe, inyuma ye hari amashusho atagaragara yakikijwe ariko hari harimo imbaga y'abantu.

Umukecuru uri mu myaka y'izabukuru, ateze igitambaro mu mutwe cy'mweru, yambaye amaherena ku matwi, afite urunigi mu ijosi ruriho amasa y'umuhondo, n'ubururu hejuru ntakintu yambaye.

Ihuriro ry'abantu benshi ariko batari cyane, bahuriye hamwe mu gikorwa cyo gutera ibiti, bose bahagaze imbere y'inyubako, hari abantu bari mu byiciro bitandukanye : batatu bateruye igiti bajya kugishyira mu butaka, abandi bamaze kugitera, abandi bafashe igiti cyari cyamaze kumera.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu igaragaza imbere h'umutwe w'umuntu, ubwonko n'uko buteye uburyo bugiye bunyuranyuranyemo bifite byose ibara ry'umutuku.

Abamama babiri bicaye hanze y'umuryango umwe biragaragara ko yari amaze kwisuzumisha ko atwite bari barimo baramwereka ibisubizo yarakikiye n'undi mwana mutoya wambaye amaherena n'agakoma.

Umugabo muremure wambaye ishati ndende n'ipantaro y'umukara, arararamye arimo arareba mu kirere urabona ko ari mubitekerezo, yegamye ku gikuta gisize irangi ry'umweru hirya ye mu nguni hari ibyatsi byatangiye kumera bigenda bizamuka.

Ihuriro ryabanyeshuri bose bambaye impuzankano zisa, ziri mu ibara ry'umuhondo, bamwe muri bo bambaye amakamba ku mutwe akoze mu gipapuro cyanditseho amagambo bimwe biri mu ibara ry'icyatsi, ubururu n'umuhondo.

Umwana ari mu kigero cy'imyaka ine, wambaye ishati y'umweru, karuvate y'ubururu, n'ikabutura asutse derede, arimo ararya biswi, inyuma ye hari umugore wambaye ikanzu y'igitenge, umupira w'iroza bari mu ishuri.

Akana gato k'agakobwa k'inzobe; gafite umusatsi ufungiye mu mpande ebyiri; barimo barakarebera mu kanwa bifashishije ibyuma byabugenewe; muganga we intoki ze nizo zari kugaragara ibindi bice by'umubiri ntabwo bigaragara.

Umugore n'umugabo umwe arasutse undi afite umusatsi, bari gusukura amenyo yabo bifashishije urudodo, bari kwirebera mu ndorerwamo.

Ikibazo cyo kwa muganga hari ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bagenda bifashisha basuzuma abarwayi bitewe n'ibibazo bafite hari aho bakarabira intoki mu gihe hari ibyo bakoze hari n'imashini zigenda zireba mu mubiri w'abantu.

Hari umwana na mama we, bombi bambaye amasengeri y'umweru, bafite uburaso buriho umuti wamenyo, inyuma yabo hari idirishya n' akabati.

Ifoto y'umuntu, bacishije mu cyuma gafoto bagaragaza mu kanwa he, n' amenyo uburyo ateyemo, iyo foto biragaragara ko yari yagiye kwivuza, afite ikibazo cyo mu kanwa, ifoto rero banyujije mu cyuma, bagasohora berekana ko amenyo ye ameze.

Abantu batatu babiri muri bo ni abaganga bambaye udupfukamumwe n'umugore undi ni umugabo, urwaye n'umwana barimo baramurebera mu kanwa ikibazo yaba afite.

Abantu babiri, umwe aryamye ku gitanda biragaragara ko ari umurwayi, undi uhagaze ni umuganga arimo aramurebera mu kanwa akoresheje utwuma twabugenewe, yambaye itaburiya y'ubururu n'agapfukamunwa.

Umwana muto w'umukobwa, wambaye ikanzu y'icyatsi n'agapira k'umweru, n'agafugisho mu mutwe, kari mu ibara rya move, yicaye ku ntebe y'ubururu afite uburoso mu kanwa, hirya ye hari ibikoresho ariko bikingirijwe n'igihu.

Icyumba kiringaniye kirimo umupapuro uri mwi ibara ry'umuhondo umukara nubururu agatebe bicaraho narambuye amaguru n'izindi mashini zifashishwa kwa muganga kabati k'umweru intebe ifite amapine y'umukara.

Umugabo wambaye amadarubindi, ihena kuzuru, wasutse, ubwanwa, inzara, umupira w'Umweru.

Agatanda karyamyeho umurwayi barimo barasuzuma bifashishijeje ibyuma byabugenewe mu kanwa, umusuzuma n'umugore wambaye itaburiya iri mu ibara ry'ubururu ufite n'icyo yambaye mu mutwe gikozwe mu ishashi.

Umuganga n'umwana uryamye ku gatanda, wasamye bari kurebera mu kanwa, bifashishije ibikoresho bitandukanye, yambaye ga, yambaye n'itaburiya y'umweru.

Umubyeyi n'umwana we w'umukobwa, bicaye ku ntebe amaboko yabo ari ku meza, hirya hari amatara arimo araka, uri kubona ko arimo aramwigisha gusoma urabona ko bose bizihiwe.

Abantu batatu bari mu cyumba babiri barimo barafasha umusaza guhaguruka kuko ntabwo we we wenyine yabyishoboza igitanda yari aryamyeho gishashweho n'amashuka y'umweru inyuma hari akabati kagufi hirya gato hari ilido risa icyatsi.

Abantu batatu bose bicaye mu ruganiriro, imbere yabo hari amakarita, ameza ya kaki, umwe muri bo afite umusatsi wabaye imvi, undi afite imisatsi ikiri umukara, yambaye umupira w'umutuku, agasengeri k'umukara, akanigi mu ijosi gakoze mu cyuma.

Abantu batanu bose bicaye bari gufata amafunguro, batanu muri bo barakuze harimo uwambaye amadarubindi, imyenda iri mu ibara ry'ikijuju.

Igisharaga kirimo abantu benshi bose bitabiriye ubukwe, babiri bari imbere bambaye ingofero zifite urugara, umwe yambaye ishati y'umweru, umwitero w'umukara undi yambaye irimo umwitero w'umweru n'ishati y'ubururu bwerurutse.

Abantu batatu, uwambere ni umukecuru wambaye umupira wa kake, umusatsi we wabaye imvi, undi yambaye umupira w'icyatsi umusatsi we urasutse n'umwana muto wambaye umupira usa umweruru bari mu gikoni, hari agasahane k'umweru, icyuma bifashisha bakata ibintu bitandukanye gisa ubururu, inyuma yabo hari akabati gasize irangi ry'umweru.

Abantu bicaye mu busitani umwe ari kuboha abandi barimo baramuganiriza, hakurya hari umugozi wanitseho imyenda, hari ibiti bishinze byumye inyuma yabyo hari inzu hari umwana batereye hari ibyatsi hateye n'ibiti.

Abantu babiri bicaye umugore n,umugabo bose barakuze imisatsi yabo yabaye imvi yicaye ku ntebe imbere yabo harimeza hateretse agacupa imbere yabo hari ibinini umwe afite urupapuro mu ntoki rwambaye imikufi kumaboko muruganza ru mu ijosi.

Abamama bose batonze umurongo barimo baragenda babyina, bose bari mu kigero cyimyaka yizabukuru, bose bambaye udupfukamunwa kugirango birinde, bagiye basigamo byibura intera imwe kugirango bategerane.

Icyumba kiringaniye kirimo abagabo icumi bose b'abisilamu ari umwe muri bo niwe kuba ikigwa, bigaragara ko bari kuganira batatu muri bo bambaye ingofero z'abayisilamu bicaye kumukeka bose bamwe bambaye bakinyeye imyenda.

Abantu batari benshi bicaye babiri ku ntebe abandi hafi umwe arimo araboha igitebo, intebe, yumutuku, terefone, inzu ,ibiti ,imyenda yanitse ku mugozi, inkwi.

Ibihugu byateye imbere bagira abantu bita ku bantu bashaje, rero hano hari umukobwa uri mu kigero cy'imyaka nka makumya n'itanu, n'umukecuru ukuze, arimo aracunga ubona ko bose bishimiye. Umukobwa afite umusatsi w'umukara, naho umukecuru afite imvi, bari ahantu mucyumba kinini, kigijwe nintebe z'umukara.

Umusaza uri mu kigero cy'imyaka y'izabukuru wicaye ku ntebe y'abafite ubumuga, ari kumwe n'umukobwa i bumoso bwe witeze igitambaro cy'umukara yambaye itaburiya y'ubururu, inyuma yabo hari amadirishya ari mu ibara ry'umweru.

Isoko ry'ibiribwa imboga n'imbuto, hari abamama bagera muri barindi bose bambaye ibitenge, bamwe barakenyeye, umwe ubona ko arimo arabaganira hari ibikarito n'ibitebo, byuzuye inyanya, inyuma yabo hari ibikarito birimo amaronji.

Abaganga babiri, umuganga n'umurwayi ubona ko yakorewe... yabazwe barimo baramwereka uko yagenda yifashishije icyuma cyabigenewe bamwerekera. Hari intebe, hari indabo, hari akabati gasa umweru, hari imashini bifashisha bakoreramo za raporo zitandukanye.

Umusaza ukuze, ufite uruhara rurimo imvi, yambaye amarinete, yambaye ishati y'icyatsi cyijimye, umupira w'amaboko maremare w'umweru, afite ikaramu mu ntoki, ikaye kumeza na terefone kuruhande.

Abantu batatu bicaye bakikijwe n'urudodo, ikayi, babiri bambaye ingofero ariko zirimo ubwoko butandukanye, imwe ifite urugara indi ikozwe mu budodo, terefone, akabati, amatara.

Abantu babiri umwe ni umwirabura yambaye umupira w'amaboko maremare urimo ibara ry'umweru n'umukara imisatsi ye ni imvi, yambaye amarinete, uwo bari kumwe bafatanya mu kiganza yambaye mu ijosi akuma bifashisha bapima uko umutima utera hirya yabo hateye indabo inyuma yabo hari urugi.

Icyumba bakiriramo abantu hari abantu bane bose ubona ko bari mu zabukuru, umwe baramutwaye bamucunze ku kagare atwawe n'umuforomokazi, yambaye akuma bifashisha bapima umutima uko utera mu gatuza.

Abantu babiri umwe ni umusaza yambaye amadarubindi n'umupira w'umweru, undi yambaye ishati ya karokaro harimo amabara y'umweru n'umukara n'umupira w'umukara mu imbere, bafite igitabo mu ntoki ku meza hateretse ibikombe by'umweru.

Umugore wicaye ku ntebe wambaye ikote, ufite agatabo afite n'indangururamajwi, yambaye amarinete, amaherena, inyuma ye hari icyapa kiriho ibijyanye n'ubuzima mu kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina.

Imbaga nini ihuriye hamwe y'urubyiruko iri mu muhanda, ifite icyapa cyanditseho urubyiruko nimwe hazaza heza h'u Rwanda, irinde virusi itera sida ipimishe uyu munsi, ni igikorwa ubona ko barimo barashishikariza abana kwirinda sida kuko aribo mbaraga z'igihugu z'ejo hazaza.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi, batandatu muri bo bari imbere yabo nibo ibari gutanga ikiganiro, inyuma yabo hari ikirango kinini cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, yandikishijwe mu ibara ry'umweru.

Abakobwa bari mu kigero cy'imyaka makumyabiri, bose bambaye amapantaro, imipira y'umweru iriho ikirango kimwe, bafite udukarito turi mu ibara ry'iroza.

icyapa cyanyanditseho amagambo ari murimi rw'icyongereza yandikishijwe mu ibara ry'umweru avuga ko tutagomba kugira uwo dusiga inyuma, hariho abantu batandukanye hariho abagore babiri abagabo batatu umwe ni umwirabura abandi babiri ni abazungu.

Ibirango bibiri byose bivuga ku bijyanye n'ubuzima muri afurika y'iburasirazuba, kimwe kiri mu ibara ry'ubururu, ikindi mu ibara ry'icyatsi, byose bigaruka ku bijyanye n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa mu bijyanye n'ubuzima.

Abantu batatu bose b'abagore bose bambaye udukamunwa baravuga kuri raporo ndetse n'ingamba zafashwe mu gutanga ibisubizo birambye ku cyorezo cya kovide cumi n'icyenda muri Afurika yose.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu gifite amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, yandikishije ibara ry'umukara, hejuru yayo hari ikimenyetso cy'itara ryaka umuhondo.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza yanditse mu ibara ry'umweru, umutuku, umuhondo, orange byose bikaba bikubiye mu mpine.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, amagambo amwe yanditse mu ibara ry'umweru andi mu ibara ry'umuhondo, aya magambo aragira ati twirinde indwara y'ubushita bw'inkende.

Icyumba kiringaniye abarwayi baryamamo iyo bamaze gukorerwa serivise. Harimo ibitanda bibiri, kigizwe n'irange ry'umweru n'ibindi byuma bijyanye no kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye hari agatanda, imashini, isaha aho bakarabira intoki, amatara amuritse cyane n'amarido.

Icyumba kigari kigizwe n'amatara maremare abona, hari aho basohokera, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye abantu bagenda bifashisha iyo bakoze ibikorwa bitandukanye ngororamubiri.

Ibyapa bibiri kimwe kirerekana ibitaro, amagambo yanditseho ari mu rurimi rw'Icyongereza, hariho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, amwe muri yo yandikishije ibara ry'ubururu, iry'umukara n'iry'umutuku.

Umuforomokazi arimo aratera serumu umurwayi uryamye ku gatanda kariho amashuka y'umweru, inyuma ye hari icyumba kiri kwerekana uko umutima urimo uragenda utera uzamuka unamanuka.

Bwiza n'inyubako, muri ubwo busitani harimo indabo z'ubwoko butandukanye, zifite n'amara atandukanye harimo ay'umutuku, umuhondo, ubururu, hari amadirishya n'ibirahure bibonerana, hari abagabo babiri b'abaganga.

Gungura ku mugaragaro inzu ababyeyi babyariramo, imbere yayo hari indobo ebyiri ziteyemo indabo, yubakishije amatafari ahiye hakurya hari ubusitani, harimo n'amabuye ifite amabati asa ubururu inyuma yayo hari ibitu birebire.

Icyumba cyo kwa muganga hari agatanda karyamyeho umurwayi yiyoroshe ikiringiti kiri mu ibara ry'ubururu n'umutuku, hari akameza gateretseho terimunsi, amarido y'ubururu, hari icupa rirerire ririmo gaze, agakoresho bashyiramo imyanda ndetse n'ibindi byuma bitandukanye.

Abantu babiri, umwe ni umuganga yambaye itaburiya y'umweru, yambaye mu ijosi akuma bifashisha bapima uko umutima utera, undi yicaye ku ntebe yambaye ishati y'umweru, hirya yaho hari agakarito karimo ibikoresho bifashisha kwa muganga, inyuma hari akabati, k'umweru karimo imiti.

Icyumba cyo kwa muganga hari agatanda gashashe neza, hariho imisego ibiri hasize irangi ry'umweru, hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, hari ubwogero bakarabiramo intoki, hari ako bashyiramo imyanda ndetse n'iyo bamaze gukaraba intoki hari ikindi gikoresho bazamuraho intoki bagafata akantu ko kwihanaguza kugira ngo bumuke.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, ni inzu yubakishijwe amatafari ahiye, isize amarange y'umweru, inzugi za kaki, amabati y'ubururu, hari hicaye n'abantu batandukanye, umugore n'umugabo n'abana babo babiri.

Inyubako ebyiri zihana imbibi, zose zifite amabati asa umutuku, zisize amarange y'umweru, hanze hari ubusitani bugari butemo indabyo na pasuparume, uruzitiro rwubakishije amabuye.

Inzu izwi ku izina rya pharmacy bacururizamo imiti, bekana n'ibigo bagenda bakorana nabyo aribyo Mediplan, RAMA, RSSB, MIS/UR byose byandikishijwe ibare y'imituku. Hanze hari abantu ubona ko bategereje imiti, hari moto n'abamotari yambaye na kasike.

Inyubako ndende ifite amabati y'amategura, amarangi y'umweru hejuru hahagaze umuntu wambaye imipira w'icyatsi, hasi hari indabo, idarapo ry'u Rwanda, abagabo babiri bikoreye indobo imwe isa ubururu, indi iri mu ibara ry'umutuku.

Inyubako bacururizamo imiti, hejuru hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ari mu ibara ry'umweru. Hanze hari imodoka ebyiri z'ivatiri, imwe isa ikijuju, indi isa umutuku.

Babiri umwana ukivuka bari gupima ibiro n'umuforomokazi urimo uramuhanagura hejuru yabo hari itara riri kubamurikira hari n'igikoresho kiri gupima ibiro bye ndetse n'amagarama.

Ibitaro byigenga bya regasi hanze haparitse amamodoka menshi ari mu bwoko butandukanye hari ivatiri'i ibara ry'umukara hari iyitwara abantu barembye izwi ku izina rya ambulansi rimweba ry'umweru yandikishijweho n'amagambo atukura hari n'umugabo wambaye agapira k'umutuku bigaragara ko arimo arereka abantu aho bagomba guparika imodoka zabo.

Imashini yo kwa muganga bifashisha bareba uko mu mubiri w'umuntu byifashe, hejuru hari amatara uri ku mpande zombi ibuburyo n'ibumoso, hari inzugi ebyiri hari amapine y'umukara.

Icyapa kigaragaza ibitaro byo kwa nyirinkwaya, imbere yacyo hari igiti kizwi nk'umukindo, amarembo arafunguye imbere yayo harimo y'ivatiri isa umukara, hirya yaho gato hari inyubako yubakishijwe amakaro.

Inzu isize irangi ry'umweru, amadirishya y'ibirahure, intebe ziri mu ibara ry'ubururu zifite n'amapine, n'izindi ziri mu mbaho zifite n'imisego, amatara n'inkingi hagati ziriho ibara risa n'ikijuju n'indabo.

Umutako ushushanyijemo ururabo rurimo amabara y'umweru n'umutuku, igitanda gishashweho amashuka y'umweru, imashini, idirishya, serumu.

Inyubako ndende ifite amarangi y'umweru, amabati y'umutuku. Imbere handitsweho amagambo ari mu ibara rya oranje yanditse mu rurimi rw'icyongereza agaragaza ko ari ibitaro.

Iduka ririmo ibintu byinshi bitandukanye hanze hari aho buririra kugira ngo bagere mo imbere, harimo amatara hanze hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru, hari nimero za telefone, hari inyubako ndende, hirya hari igiti kizwi ku izina ry'umukindo.

Kwa muganga barerekana hanze ahari inzu zifite amabati y'icyatsi ndetse n'amarangi asize hanze asa icyatsi, hari ibiti bitandukanye bigize ubusitani bwaho, hari insinga, amatara yo hanze, imigozi yo kwanikaho imyenda n'ibigega bifata amazi.

Inyubako ifite amagambo yanditseho mu mpine ari mu ibara ry'icyatsi, abantu bari kugenda binjira mu marembo bambaye amashati y'umweru, amapantaro bafite udukapu mu ntoki tuboshye.

Abagabo babiri bose bambaye amataburiya y'umweru, udupfukamunwa tw'ubururu, umwe yambaye amadarubindi, ibumoso bwabo hari imigozi icometse ku mashini, iburyo bwabo hari akabati kari mu ibara ry'umweru n'umukara.

Inyubako ebyiri zose zubakishije amatafari ahiye, ariko buri mwe ifite ibara ryayo ryihariye, amabati y'ubururu ku nyubako imwe, n'indi, amabati afite ibara ry'umutuku, yose ahuriye ku kigega kimwe gifata amazi, hanze yaho hari ubusitani, harimo n'indabo zitandukanye.

Batatu ubona ko bose bari mu bikorwa bijyanye n'amatora umwe ari kuyobora abantu aho bajya mu cyumba cy'itora undi n'uje gutora ariko yicaye mu kagare ari gucungwa n'umwana.

Abantu batatu bari mu cyumba kimwe babiri barasutse umwe yambaye itaburiya y'umweru, undi ni umuforomokazi yambaye imyenda y'ubururu, hari mashini, ikayi, urupapuro n'amatara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo agatanda gasheho ishuka y'icyatsi cyijimye, harimo amatara hejuru abasha kubona umuntu iyo aryamye kuri ako gatanga, imashini n'udutanda tundi.

Inyubako nziza igizwe n'amakaro, amatara amarangi y'umweru, ni ahantu hari inzira nyabagendwa ndende ubona ko abantu bacamo binjira cyangwa basohoka.

Ni ku mupaka hari icyuma kinini gitandukanya hakurya no hakuno, hari inyubako isize irangi ry'umuhondo n'amabati asa umutuku, abantu bari kugenda bamwe baza, imodoka ivatiri isa umukara, tagisi isa umweru, icyapa, umuntu ushinzwe umutekano.

Icyumba kigali kandi kinini cyane kirimo ibintu bitandukanye byo mu mabara atanduye umutuku, ubururu, umuhondo n'utuntu turi hasi ubona ko ari icyumba abana baruhukiramo kandi bakiniramo.

Inyubako ndende ifite amarangi y'umweru yandikishijweho imbere amagambo mu ibara ry'umukara ari mu rurimi rw'Icyongereza, hanze hari ubusitani bugari bufite indabo z'icyatsi n'umuhondo, hari imodoka iparitse imbere y'umuryango.

Inzu nini ifite amarembo magari, iburyo bwaho hari vaze iteyemo indabo, hari umuryango urimo urasohokamo umukobwa, imbere yaho ari ingazi iriho amadapo abiri, imwe ni iy'igihugu cy'u Rwanda, amabati arasa umutuku, handitseho imbere y'aho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, ari ku kirango cy'umukara.

Icyumba cyabarwayi agatanda karyamyeho umuntu, indobo zitetse hejuru mu ibara ry'umweru, inzitiramubu zifite ibara ry'ubururu, umugabo wambaye ipantaro y'umukara umupira, isaha, na serumu.

Icyumba kigari bari gutangiramo amaraso, hariho abantu benshi baryamye ku gatanda, abari gutanga amaraso n'abari kubafasha kugira ngo bayatange. Hari udushashi twinshi tuziritse, twafatiwemo amaraso.

Icyumba cyo kwa muganga harimo agatanda kariho amashusho y'umweru, televiziyo, imashini yo kwa muganga, intebe ifite amaguru maremare y'icyuma, igishushanyo kiriho umugore wambaye agapira k'umukara n'umuhondo.

Abantu batatu, umuganga wambaye amarinete, agapfukamunwa, amaherena, itaburiya y'umweru, umumama usutse inweri, uteruye uruhinja rwambaye akagofero gakoze mu budodo bw'umweru.

Icyumba kigari kirimo ibikoresho byinshi bifashisha mu myitozo ngororamubiri igiye itandukanye, harimo n'akandi batamo imyanda mu gihe barangije nko kwihanagura cyangwa hari icyo bariye cyangwa banyweye.

Inyubako zubatse mu bwoko butandukanye zubakishije amatafari ahiye, ibumoso hari amashami y'igiti hanze hateye indabo, imbere y'izo nyubako hari abantu batanu.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo agatanda bashyiraho ibitabo, intebe z'amapine ziri mu mabara atandukanye ubururu n'umukara, indobo ebyiri ziri mu ibara ry'umuhondo.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima imbere yayo hari icyapa nacyo kiriho ikirangantego cy' Rwanda, imbere y'iyo nyubako hari abantu batandukanye, abagore abagabo, hirya yayo hari imodoka eshatu ebyi ziri mu mabara y'umweru indi imwe ni umukara.

Agatanda gakoze mu cyuma no muri pulasitiki bifashisha batwaraho abantu bagize ibibazo bitandukanye, birimo imvune cyangwa bakomeretse bikabije batabasha kugenda.

Icyumba kigari abantu baruhukiramo hari abantu batatu umuzungu w'umumama n'umumansera n'akana bari gukinisha, hasi hari udukoresho n'udukinisho tw'abana.

Abagabo babiri ari ko umwe niwe uri mumyitozo, undi ni umutoza we bari mu mukino wa rugubi, yambaye umupira w'umutuku ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara, afite umupira mu ntoki ze no hasi hari utuntu ari kugenda akandagiramo.

Umukobwa muto muto w'umwirabura uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara, yicaye hasi muri kaburimbo, amaboko yombi afashe munsi y'urukweto rw'akaguru k'ibumoso, ku kaboko afite agakoresho yifashisha yumva umuziki.

Umusore muremure usutse, ari mu myitozo ngororamubiri, apfukamye hasi ku mukeka, amaboko ari imbere, yambaye agapira k'umukara n' ikabutura y'umukara iri mu ibara ry'umweru, hirya ye hari igitanda gisashe kiriho n'imisego.

Umusore uvuye muri siporo urimo uranywa amazi yambaye udukoresho tuzwi ku izina rya ekuteri bambara matwi bacometse kuri terefone cyangwa ikindi gikoresho ngendanwa kibafasha kugenda bumva umuziki.

Kurya imboga no gukora imyitozo ngororamubiri byose biri mu bifasha kugira ngo umuntu agire ubuzima buzira umuze, muri ibyo biribwa harimo amagi, kunywa amazi, kurya imbuto nk'inanasi, ubunyobwa, amashu, karoti, kunywa umutobe uturuka ku mbuto ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye igikoresho cya siporo mu ivi, yambaye inkweto za godiyo, amasogisi y'umukara yanditseho adidasi, umupira w'umukara uriho nimero makumyabiri n'imwe, hakurya ye hari abandi bantu benshi batagaragara neza kubera igihu.

Umusore muremure ufite icupa ry'amazi uri kureba hejuru uri kuyanywa, yambaye isengeri y'umweru, hakurya hari umusozi urabona ko yari avuye muri siporo ageze aho yari ahagaze afata amazi aranywa.

Ri umwe aryamye ku gitanda yambaye agakabutura kagufi k'umukara, undi arahagaze amwunamyeho yambaye imyenda irimo ubururu bwijimye arimo aramukanda ku mpfudiko.

Ibiganza bine by'abantu babiri, bibiri birapfutse, hari igikapu cy'umukara kirimo icyo bakoresha bapfuka gisa umweruru n'imashini ziri mu ibara ry'umweru.

Ikirahure kiri gusukwamo amazi biteretse byose ku meza, icupa riri mu ibara ry'ubururu n'agafuniko k'umutuku.

Umurwayi n'umuganga ariko ntago amasura yabo yagaragajwe hagiyemo igihu, hari imashini ndende ifite ikirahure cy'umukara yerekana uko umutima w'umuntu uri kugenda utera.

umukobwakina cumi ntanu yicaye hasi yambaye imyendarayon sipot ari mu bikorwa ngororamubiri amaguru ya yicaye hasi arambuye amaguru n'amaboko byosekununae n'amaboko yayarambuye ari hafigeza ku birenge.

Imetero iri mu ibara ry'umuhondo, umutobe uri mu kirahure, inkeri, ifi, romari, ubunyobwa, pome, amazi, ariteri.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara isengeri y'umukara n'igitambaro mu mutwe, apfukamishije akaguru kamwe hasi akandi kari hejuru ari mu myitozo ngororamubiri.

Kugira ngo tubeho ubuzima buzira umuze dukeneye kurya borokoli, pome, ivoka igi, ironji, kokombure, tukanywa n'amazi ndetse tugakora n'imyitozo ngororamubiri.

Umusore ukiri muto uri kugendera ku kantu gadafite amapine kazwi ku izina rya sikete, yambaye agapira k'umutuku, ipantaro y'umukara, uruhande rw'umutuku, amasogisi y'umweru.

Abantu batatu ariko umwe niwe wari uri mu isiganwa ry'amaguru, biragaragara ko ari we wari ubashije kuhagera mbere, uwari umufashe akaboko urabona ko yari amwishimiye kubw'intsinzi ye.

Umukobwa muto muto wirabura ufite imisatsi miremire, yicaye ku buriri bufite ibara risa n'ikijuju, inyuma ye hari itara. Yambaye agasengeri k'umukara, kora y'umukara ari kwinanura, yambaye agakomo k'umukara ku maboko.

Umukobwa muto muto wirabura uri mu myitozo ngororamubiri, akaboko k'iburyo yagashyize inyuma, herekeye mu nce z'amaboko akandi gafashe umutwe asutswe inweri yambaye isaha y'umukara.

Igikapu kinini kiri mu ibara ry'umutuku, kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, byifashishwa n'abakorerabushake, harimo ipompo, harimo imiti iri mumoko atandukanye, harimo ibivuko biri mu mabara y'umweru n'udupfukamunwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze.

Kwa muganga mu cyumba bavura ibijyanye n'ingingo hari abantu babiri, umuganga n'uwaje kwivuza, akaguru yakazamuye, ari kugenda agakanda. Yambaye kola y'umukara n'umupira ari kugenda amukanda n'ibishushanyo bigiye birimo imitsi, amaboko, amaguru n'izindi ngingo.

Umukobwa wambaye umwambaro wo hasi uri mu ibara ry'ubururu, n'akandi kambaro ko hejuru kari mu ibara ry'icyatsi ari mu myitozo ngororamubiri, yazamuye amaboko agafatisha ikirenge azamura akandi kaboko imbere.

Umukobwa muto w'umwirabura ufite imisatsi migufi, akaguru kamwe yagahinnye agashyira ku itako akandi arakarambura amaboko yombi yayahurije ku kandi kaguru k'ibumoso.

Amazi ni ubuzima bwa buri munsi, bavuga ko bibiri bya gatatu bigize umubiri wacu, hari icupa ry'amazi rifite agafuniko karirimo ibara ry'ubururu.

Uruvange rw'imbuto zitandukanye, zirimo imineke, amaronji, indimu, inanasi, ivoka, pome, ubunyobwa, hari ibinini, imidari, iri mu mabara atandukanye, umutuku, ubururu n'umweru.

Uducupa turindwi, dutandatu muri two dufite ibara ry'umweru, akandi kamwe gafite ibara ry'umuhondo, handikishijwe amabara atandukanye; icyatsi, umutuku, umukara, byose hikaba bihuriye ku gihingwa cy'igikakarubanda.

Umusambi uteretseho ibyo bagiye kwifashisha bari guteka, hari indagara hari tangawize, barimo barasakura sereri hari inyanya hari ubunyobwa hari umuceri hari ibitunguru.

Igiti cy'umuravumba yifashishwa ahanini mu kwivura inkorora no mu yindi miti itandukanye abenshi baracyotsa bakajya batangira kugikoresha.

Agatanda kariho ibintu bigiye bitandukanye birimo ibyo bagiye gukoresha bategura amafunguro, hariho amateke, hariho indagara, hariho isambaza, isombe, umunyu, umuceri n'ibirungo byo kongeramo.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye harimo ibifite amabara yumuhondo, umutuku ,orange, harimo n'umuravumba ,ufite amababi magufi atarakura neza.

Icyumba cy'ubushakashatsi bagenzuriramo imiti cyangwa ibisubizo abarwayi batanze kugirango ngo babibagezeho harimo umugabo wambaye itaburiya imbere hari ibicupa bibiri birimo imiti itandukanye.

Agahini n'agasekuru byose biteretse hasi bigizwe n'ubwoko bw'ibyatsi nabwo butandukanye harimo romali, umwenya, mucyayicyayi n'ibindi byose bikora ibintu bitandukanye nk'imiti.

Ibimera bitandukanye bimwe bifite amabara atukura, harimo n'ibindi bifite amabara y'icyatsi bizwi ku izina ry'ibitovu, ibitovu ni ibyatsi biba bifite amababi maremare ariko agiye afite amahwa ku ruhande.

Uducupa tubiri twose turi mu ibara ry'umweru ariko amagambo yanditseho akaba atandukanye ndetse n'imimaro yacu iratandukanye, hamwe harimo amavuta yo kwisiga akandi harimo isabune yo gukaraba.

Ibihingwa biri mu moko atandukanye, ibitoki, imboga rwatsi, ubunyobwa, umwenya, byose bifasha mu kugira ubuzima bwiza.

Umubiri ukeneye kwitabwaho cyane bigizwemo uruhare n'ibyo twoga n'ibyo twisiga; hari uducupa twinshi n'amasabune byose biri mu moko atandukanye ariko bikoze mu gikakaruramba.

Aha hari ikiran intego kiri mu ishusho itagaragara neza, kigizwe n'amabara ari mu idarapo ry'u Rwanda, ubururu n'umuhondo icyatsi, rifite amagambo yandikishijwe mu ibara ry'icyatsi yanditsweho Rwanda.

Mu bwoko bw'ibimera bitandukanye kandi bitanga imiti harimo: romari, umwenya, ibireti, ndetse n'ibinini n'uducupa tubiri bigaragara ko arimo wavuye.

Ni umuti batanga kugirango abantu bagire apeti banywa iminsi irindwi uri mudarito tugizwe n'amabara umuhondo ubururu oranje icyatsi ndetse n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru.

Ibyatsi bizwi ku izina ry'ishinge, ku ruhande harimo n'igiti giteyemo bifashisha mu gukora imiti ndetse n'ibindi bintu bitandukanye abantu bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Agakarito kari mu ibara ry'umweru, n'umuhondo gakikijwe n'amagambo imbere n'inyuma harimo ibara ry'icyatsi mu rurimi rw'icyongereza.

Amavuta ari mu gacupa akozwe mu byatsi by'umwimerere n'ibiti birimo igikakarubamba, isabune, ndetse si amavuta gusa hari n'isabune na yo ikozwe muri ibyo bintu.

Uducupa twinshi turi mu ibara ry'icyatsi, utundi umweru, abantu bicaye baduteye imigongo, abenshi ni abamama biteretse ku meza afite igitambaro kirimo ibara ry'ubururu.

Ibicupa bitatu birimo ibara ry'umweru imifuniko yose irasa bwandikishijweho amagambo ari mu ibara ritandukanye kandi nayo ntabwo yanditswe kimwe, ateretse ahantu hagenda harutanwa aho imitwe.

Igihingwa kitwa umwenya, kikaba ari igiti kikiri gito kitarakura neza, abantu benshi bakifashisha bakora umuti w'inkorora cyangwa barwaye mu muhogo n'ibindi bitandukanye.

Ikibabi gituruka ku giti cy'umuravumba, hariho ibinini ubona ko byose bikomoka ku giti cy'umuravumba, uwo muravumba rero abenshi bawifashisha mu kwivura inkorora no kuvura abana ndetse n'abakuru.

Umukobwa uri ku gikesito gifite amabara yiganje ari icyatsi, ayanditse mu ibara ry'umutuku ari mu rurimi rw'Icyongereza n'umukara, n'andi ari mu ibara ry'umweru.

Uducupa dutatu twose tugenda turutanwa uko dukurikiranye, turi mu ibara ry'umweru imifuniko nayo ni uko isa, hirya yaho hari ijage y'ikirahure irimo ibintu by'umweru.

Ibyatsi byose biri mu bwoko butandukanye ariko byose byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho bimwe usanga byifashishwa nko mu miti gakondo, harimo inturusu, impengeri, indabyo ndetse n'igiti kizwi ku izina ry'igiti.

Agacupa gacuritse gafite umufuniko w'umweru, ku mpande gafite ibara rya oranje, amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hariho imibare.

Uducupa dutandatu turiw muibara ry'umweru twandikishije mu ibara ry'icyatsi n'amagambo nayo ni uko, twose tukaba dukoze mu gihingwa kizwi ku izina ry'igikakarubamba.

Umuti w'amenyo ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba wifashishwa mu koza amenyo kandi ukawukesha, hari n'uburoso bw'amenyo, ndetse hari n'ibyanditseho bivuga ko mu gihe uwukoresheje ucana ukubiri no kugira amenyo adasa neza.

Uducupa; udukarito; ishashi biri mu mabara atandukanye umweru; ubururu; umuhondo byose byifashishwa n'imiti.

Imiti gakondo iri mu mu macupa menshi atandukanye y'amavide maremare, umumama uteze igitambaro cy'umweru mu mutwe na baji mu ijosi iri mu ibara ry'ubururu, amatente, umugabo wambaye ishati irimo umukara n'umweru, umukandara n'undi wambaye itaburiya y'umweru yandikishijeho amagambo y'umukara.

Ikirango kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi avuga ku miti gakondo Nyafurika, yari insanganyamatsiko yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Igitunguru cy'umutuku giciyemo kabiri, indimu na yo iciyemo kabiri agacupa karinganiye karimo amavuta, hariho igihingwa kiri muri rumari.

Amacupa umunani ari mu bwoko butandukanye yose akaba arimo ibikomoka ku musaruro w'ikawa, ayo amacupa nayo agiye ari mu mabara atandukanye harimo irifite ibara ry'umutuku n'umweru, hari irifite ibara ry'ikijuju, hari n'irifite ibara rya kaki.

Indobo y'umweru iteretsemo ibicupa, ni ahantutu hajagaraye hari ibintu byinshi, n'umugabo ufite ikindi gicupa gifunze, yambaye ishati y'umweru inyuma ye hari ibindi bicupa birebire nabyo bifunze, bifungishije imifuniko y'ubururu.

Abantu babiri ariko barerekana ibiganza byabo gusa, hari uburoso bw'amenyo, bari gukandiraho umuti w'amenyo, uri mu gacupa k'umweru, uwo muti ukozwe mu gikakarubamba, hirya gato hari ako bafunguriraho amazi.

Udukombe tubiri, kamwe karimo uburoso bubiri, akandi harimo ururabo akandi ni agasahani gateretseho isabune, harimo n'udutambaro two kwihanaguza, hari n'agacupa karimo amavuta, amavuta akozwe mu gihimba k'igikakarubamba.